Abantu bafite imyenda isa, umwe afite umuhini ujya mu isuka, bari mu murima, barimo barakoramo. Iruhande rwabo hari inzu ifite amabati y'ubururu.

Amacupa atatu ari mabara atandukanye, rimwe rirasa icyatsi, irindi rirasa umuhondo, irindi risa irindi bara, imbere yaho hari udukombe duteretsemo indabyo, inyuma hari ururabo rw'icyatsi.

Icupa ry'umutuku ryanditseho ijambo ririho ifoto y'ifi, riteretse ahantu hameze neza, inyuma yaryo hari ikindi gishushanyo kimeze nkaho gishushanyijeho inyama.

Ni umukobwa n'umuhungu bari muri botike icuruza ibyo kurya, muri rusange ni ibiribwa, harimo amavuta, harimo ibishyimbo, harimo amakaroni, ariko urabona harimo n'ibikoresho by'isuku nk'amasabune, hari agafoto kamanitse hejuru k'umugabo, yego.

Iduka ririmo amacupa y'amavuta menshi atandukanye, ni amavuta ari mu bwoko bunyuranye, amacupa maremare n'amacupa magufi, ay'umutuku, umuhondo, icyatsi umweru n'andi menshi anyuranye.

Salo nziza cyane irimo intebe ziteretsemo zisa umweru, amezaasa umukara, hirya hari akabati keza hafi yaho hari ifoto ihari. Inzu irimo kwakamo amatara, irimo irangi risa umweru.

Ubusitani bwiza cyane, burimo ibyatsi bisa icyatsi cyeruye, hari n'indabyo zigiye zikikije inyubako ihari. Ni inyubako ya kadasiteri igeretse kabiri, ifite irangi ry'umweru ndetse n'umuhondo.

Ubusitani bumeze neza burimo ibyatsi bisa neza ndetse n'indabo zimeze neza, hafi yabyo hari inzu ya etaje ihari isize irange ry'umuhondo isakaje n'amabai yenda gusa umukara.

Igitanda gishashe neza kirambuyeho ishuka y'umuhondo kiri mu nzu ifite ibara ry'umuhondo mo imbere harimo ifoto, hejuru hari supanete, hafi yaho hari amatara ahateretse.

Umugabo ufite umunzani upima ibiro, hasi harambitse umufuka uhambiriyeho umugozi barimo barapimisha, afashe umunzani arimo arapima ibintu biri mu mufuka hirya ye hari umugore n'umugabo, inyuma yabo hari amagare ahaparitse.